Urubyiruko rukora imikino yo kwiruka, bari mu nama batanga ibibazo cyangwa se inyunganizi bafite mu byo bakora mu kazi kabo bakora.

Inama ikorewe ahantu batumira abaturage bose bakaza gutanga ibitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa ibibazo baba bafite, mu kugira ngo guverinoma ibafashe gukemura mu bibazo bimwe na bimwe bagenda bagira bya buri munsi.

Amatara yo ku muhanda agamije kuboneshereza inzira nyabagendwa, bifasha mu buryo bwa leta gutuma abaturage bagira umutekano usesuye, bakaba bataha ku bw'amahoro nta kibazo bafite, batikandagira.

Icyumba cy'itora kigenewe gutorerwamo abayobozi cyangwa se izindi nzego, mu buryo bujyanye n'ibya leta. Aho bifasha mu gutunganya demokarasi bigatuma igerwaho, gutora abayobozi binyuze mu baturage.

Umuhanda uri kuberamo ibikorwa by'ubutwazi, aho umuhanda wifashishwa mu gutwara abagenzi ubavana ahantu hamwe cyangwa ubajyana ahandi, harimo uburyo bwinshi nk'ubw'amagare, ubwa moto n'ubw'imodoka...

Umuhanda wubakiwe abaturage, ugamije gukemura ikibazo cy'ingendo, hano ni aho abagenzi bambukira, imodoka zirahagarara, zigategereza ko abagenzi bambuka mu buryo bwo kwirinda impanuka zitateguwe.

Isangano ry'imihanda, aho haba harimo aho abagenzi bemerewe gutambukira kugira ngo birinde impanuka zishobora kubera mu muhanda mu buryo butateguwe kuko haba hari kunyuramo imihanda myinshi, hanyuramo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye.